Umuryango w'ubucuruzi ucururizwamo imyenda, umanitse hakoreshejwe utwuma twabugenewe, indi ipanze mu buryo butandukanye, byorohereza umucuruzi n'umuguzi guhitamo umwambaro wifuza kugura.

Mu bucuruzi bw'imifariso iri mumabara atandukanye ndetse n'inanasi hejuru, yashyizwe mu byiciro bitandukanye, kugira ngo yorohereze umukiriya guhitamo umufariso yifuza mu buryo bwihuse.

Iduka ricuruza imyenda yiganjemo iy'abagore, amakanzu n'amajipo amanitse mu buryo bwo korohereza abakiriya kuba bayahaha mu buryo bwihuse.

Imodoka y'umutuku, icanye amatara yanditseho ngo Kigali karizi maketi, bisobanura ngo ni isoko rigurisha imodoka ry'i Kigali, hejuru y'aho handitseho amagambo asobanura amakuru kuri iyo modoka.

Imbere mu cyumba gikorerwamo serivisi zitandukanye, hicayemo umugabo wambaye imyambaro y'umukara, imbere ye hateretse mudasobwa, afashe urupapuro bigaragara ko ari kurebaho ibyo yandika muri mudasobwa ye.

Ibiganza by'umugore ufashe inoti nyinshi zigerekeranye imwe hejuru y'indi, zanditseho rimwe nama abiri, imbere ye hari imashini iri kwaka igaragaza ko ari imashini ibara inoti.

Igiceri cy'amafaranga y'u Rwanda cyanditseho banki nkuru y'uRwanda, gifite ikirango cy'igitoki cyanditseho amagambo ibihumbi bibiri n'icyenda.

Umuryango ucururizwamo ibyo kurya n'icyayi, amata, amandazi, amacapati n'amakeke biteretse mu bikoresho byabugenewe, imbere y'icyuma cyabugenewe gikonjesha icyo kunywa.

Ikiganza cy'umuntu ufashe keke arimo kuyirya afatishije urupapuro rwabugenewe rwifashishwa mu gufata ibiribwa inyuma ye hagaragara intebe y'ubururu iriho isahani iriho ibindi byo kurya.

Inzu y ubucuruzi, icururizwamo amata na maji. Isize amarangi y'ubururu, birimo umukozi w'umukobwa utanga amata ndetse n'abakiriya bari kwaka serivise.

Uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga byanditse mu mabara y'umweru n'umukara, hejuru handitse ijambo peyipari bisobanura ngo kwishyura.

Urupapuro rwinyemezabwishyu, ruriho hejuru ikirango cya repubulika y'u Rwanda, ikirango cya Rwanda reveni otoriti. Ubwoko bw'imisoro yishyuwe, amafaranga yishyuwe, igihe yishyuriwe naho yishyuriwe.

Inote y'amafaranga yanditseho rimwe n'amazeru atatu, ishushanyijeho umugabo ndetse n'ibindi bishushanyo bitandukanye, hejuru handitsweho ijambo ngo: " banki ku ya Tanzaniya" bisobanura ngo banki nkuru ya Tanzaniya.

Ikofi iri kuvamo inote zitandukanye, ni magana atanu, inote y'igihumbi, inote ya bitanu, inote y'ibihumbi icumi, inote y'ibihumbi makumyabiri biteretse ku meza.

Ibyapa bitandukanye bigaragaza ivunjishwa ry'amafaranga, hariho umugabo uhindura imibare y'agaciro k'ifaranga rigezeho.

Amagambo yandikishijwe mu nyuguti nini cyane afashe ku gikuta yanditse ngo zayini foresi biro do esicangi, bisobanura ngo aha hantu niho habera ibikorwa byo guhererekanya amafaranga muri company yitwa zayini foresi.

Agace k'ivunjisha kubatse mu nyubako z' amabara y'umweru, umutuku n'ubururu hagaragaramo abantu babiri utanga serivisi, nt'uyaka. Uyaka afite ibikapu bibiri kimwe kigeretse ku kindi, utanga serivisi aricaye mushati y'ubururu na karuvati.

Icyumba kirimo ibikoresho nk'ameza, intebe, biteye neza, inyuma yabyo hariho akabati gafite ibyumba bitandukanye ndetse n'imfunguzo kuri buri cyumba cy'akabati.

Icyumba cyo kuryamamo kiriho amarido y'umweru, igitanda kiriho umusego w'umweru, amashuka y'umweru ndetse impande y'igitanda hagaragara akabati gato cyane ko kubikamo ibikoresho ku muntu uraye mu cyumba.

Ubucuruzi bw'intebe, n'ameza, n'utubati, bikozwe mu biti, mu mbaho, biri hamwe bategereje ko abakiriya baza kubigura.

Icyumba cyo kwakiramo abakeneye serivisi kiciyemo umumama utanga serivisi, imbere ye hari ameza ateretseho raputopu n'icyapa cya MTN kigaragaza uburyo bwo kwishyura, imbere hagaragara umuhungu urimo uraka serivisi witwara nk'uganira n'umumama urimo kumuha serivisi.

Inyubako ndende yubakishijeje amatafari n'ibirahuri, imbere yayo hari imihanda ya kaburimbo irimo urujya n'uruza rwa moto ndetse n'abagenzi.

Isoko ry'inkweto, n'imyenda, ririmo abantu b'ingeri zitandukanye, bahaha imyenda, n'inkweto, ziri hasi, imyenda imanitse hejuru, hirya hari imyenda itwikiriwe n'amahema.

Ubucuruzi bw'ibiribwa byiganjemo imineke, ibishyimbo, avoka, inanasi, ibinyomoro n'amaronji hicayemo umucuruzi w'umumama utegereje abakiriya.

Iduka ry'imyenda, higanjemo iy'abana n'iy'abakuru imanitse izinze neza, ku buryo bworohereza abaguzi kuyigura bitabagoye.

Abahungu bambaye amajire y'umuhondo bicaye abandi bahagaze mu mutaka w'umuhondo ukoreshwa na emutiyene Rwanda bategereje abakiriya inyuma yabo hari gucaho imodoka na moto zitandukanye bagaragara nkabari mu isoko bategereje abakiriya.

Abagabo mu nyubako yubatswe mu mabara y'umuhondo ya Emitiyene Rwanda basaba serivisi zijyanye na emitiyene, hiya hagaragara ihema ry'ubururu ryanditseho amagambo ngo Tekino.

icyapa cya MTN momo payi, giteretse ku meza kigaragaza nimero yishyurwaho, n'amazina y'uwishyurwa.

Akazu kubabatse ku muhanda, gasize amarangi y'umuhondo, handitseho amagambo MTN simu, kagaragaza ko ibikorwa bihabera ari ibyaya MTN, gahagazeho abagabo babiri baka serivisi.

Akazu kari mabara y'umuhondo, kanditseho MTN, kariho abantu ku ruhande ndetse n'umuntu mo imbere, utanga serivisi kuri abo bantu bamukikije.

Uburyo bugaragaza kugura hakoreshejwe ikoranabuhanga, bushushanyijeho umukobwa, umwenyura ndetse n'ibicuruzwa bihacururizwa.

Moto ihetse b yoogisi y'icyatsi kibisi, yanditseho vuba vuba, itwara ibitumijweho n'umukiriya kubimuzanira aho aherereye.

Icyapa cyamamaza gishushanyijeho umumotari utwaye moto ihetse akabokisi kanditseho amagambo atandukanye asobanura icyo gikorwa.

Saro irimo bikoresho nk'intebe, ameza y'umukara, amatara hejuru amurika, handitseho amagambo ngo Kicukiro, Kagarama, Kigali siti. Byumvikanisha ko bagaragaza ko bikorwa muri Kicukiro i Kagarama mu mujyi wa Kigali.

Umuryango ufunguye ukoresha iserire mu gufunga no gufungurwa, wanditseho "rumuzi foru renti ijana na mirongo itanu" bisobanura ngo icyumba gikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu.

Inyubako nini ifite ibaraza mu mabara y'ubururu, rifashwe n'inkingi zituruka hasi, imbere y'aho hashashe amatafari, hashushanyijemo imitako y'inyenyeri z'umutuku, handitse amagambo ngo ''For sale Kigali- Kanombe'' bisobanura ko irimo kugurishwa iherereye i Kigali- i Kanombe.

Inyubako ndende, yubatse hakoreshejwe ibirahuri n'ibikuta bikomeye, hejuru yayo hagaragara icyapa cyanditseho RSSB awaherifu awafiyuca. Kerekana ko iyo nyubako ari iya RSSB.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, bipanze mu byiciro bigenda bizamuka bigaragaraho ibiciro bya buri cyiciro cy'igicuruzwa.

Agace gakorerwamo ubucuruzi bw'imbuto z'ubwoko butandukanye, zifunze mu bikoresho byabugenewe ndetse n'ibyapa, byamamaza imbuto zicururizwa aho hantu.